Ni inyubako, inyubako igizwe n'imiryango myinshi icururizwamo ibintu bitandukanye imyaka ,amagaze ,amamoto umuryango w'ubwogoshi, ibyo byose ni ibigaragaza iyo nyubako.